Isahani iriho salade yateguwe neza igizwe n'ibitungu, igizwe n'ibitunguru imboga, ubwoko bw'ibimera hakaba hariho n'indimu, n'ibintu bimeze nk'umugati bikaba ari ibyo kurya bishobora kuba byaribwa ahongaho bidatetse nkuko bizwi ku izina rya salade.

Isahane iriho ibyo kurya byinshi bigiye bitandukanye, hakabaho umuceri, hakabaho ifi, hakabaho ndetse n'imyanya, hakabaho n'ibintu bya salade, bigaragara ko ari ibintu byo kurya bimeze neza, biri ku isahane hakabaho n'ifoke, akaba ari isahane yiteguye kuba yagaburwa yaribwa.

Akabari ahantu habikwa inzoga bigaragara ko ari ahantu inzoga zibikwa, mu kabari ari intebe zo kunywaraho banyra aho abantu bamara kuri kontwara akaba ari akabari karimo inzoga zigiye zitandukanye, cyangwa n'ububiko bwazo, firigo ndetse n'ibindi bikoresho bagaragaza inzoga zo kugi butandukanye.

Isahani iriho ifunguro hariho ifiriti, ndetse hakabaho ibitunguru hakabaho agasalade gatoya, hakaba hariho n'ifi kubera ko ari ibiryo byiteguye kuba byaribwa byatetswe neza, agasarade gake ndetse n'ifiriti n'ifi ndetse n'igitunguru, ndetse harimo na te yo kuryosha cyangwa kugira ngo bihumure neza.

Ahantu bacururiza intuza, amazi ndetse n'ibikomoka ku matungo. Uruganda rw'Inyange aho rukorera cyangwa bafatanyije na Mukamira aho bacururiza ibikomoka ku matungo ndetse n'ibijyanye n'amazi. Bigaragara ko arikoryango w'abacuruza ari w'abakiriya baje kugura bamaze kugura bimwe mu bicuruzwa aha hantu.

Sale iri ahagaragara ko ari ahantu abantu biyakirira, ahantu abantu bashobora kujya bakaganira, hariho ameza y'abantu umunani umunani, bari hamwe bashobora kwicara hamwe bagasangira, ariko kuba bari mu cyumba kimwe cya sale cyo kwiyakiriramo, biragaragara ko ari muri hoteli cyangwa muri sale yo kuganiriramo.

Umuntu uri mu ruganda rw'aho bakorerasa n'abakora ibi mitobe cyangwa ibianiranye n'inzoga, bafite ibikoresho bya purenda nibindi bitandukanye byo gukora ibintu bikomoka ku ibintu byo kunyobwa, kabarimotomowe cyangwa inzoga ku ngu bigaragara bafite ibikoresho bi bitandukanye bikoreshwa harimo za purima ndetse n'ibindi.

Isahane iriho ibyo kurya bigiye bitandukanye aho hariho ifi, hariho ibitunguru ndetse n'ibindi nk'utuntu tw'uturungo two kuryoshya ibiryo kubera ko hariho ibiryo byateguwe neza byitegura kuba byaribwa uko bigaragara.

Santere y'ubucuruzi igaragazwa n'inyubako z'ubucuruzi zirenze imwe zitandukanye ziboneka no ku muhanda, ahantu hateye imbere kuberako amazu y'aho akeye cyane kandi yubatse neza hagaragarako ari ahantu hashobora kuba ari umujyi, hariho amashanyarazi ndetse ibikorwa remezo bishobora kuba bihari ari byinshi ari byinshi.

Inzu, inyubako y'ubucuruzi nk'uko bigaragara ko hari ibyapa bigiye bitandukanye, bigaragaza ko hakorerwa imirimo igiye itandukanye y'ubucuruzi, kuko biriho ibyapa by'aho bakorera, ahakorera amasosiyete agiye atandukanye y'ubucuruzi. Ibyapa birimo amaduka y'ibikoresho bya eregitoroniki ndetse n'ibindi, akaba ari inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara.

Inzu y'ubucuruzi igaragara ko imbere yaho hari umuntu uhadotera, hakaba hariho kantine imbere y'aho inzu bacuruzamo ibyo kurya, ibyo kurya umuntu ashobora kujya ku rugendo cyangwa ari hafi aho, bigaragara ko ari ahantu umuntu yabonamo ibikoresho by'ibanze, mu giturage cyo mu rugo.

Umuhanda ugaragaza aho abantu bambukira harimo n'umuntu uri gutambuka uri kwambuka hariho na kiliziya, bigaragarako ari urusengero ahantu hasengera abantu ku muhanda, hari urusengero rumeze neza rufite rumeze neza rwubatse neza ndetse n'ahantu heza hegereye umuhanda, aho abantu bashobora kuba bagera byoroshye.

Umuntu uri gukora ibintu bikomoka ku ifarini n'amagi n'amata, uko bigaragara ko agiye gucana imbabura, akaba yakora ibiraha, ndetse cyangwa amandazi. Ku isantire y'aha ng'aha, aho bigarargara ko ari umucuruzi udateye imbere cyane, kuko ari gukora ibikomoka ku ifarini n'amata n'amagi akoresheje intoki.

Iduka rinini cyane ry'ubucuruzi bigaragara ririmo abacuru ubucuruzi, ndetse hakamo n'abakiriya. Abantu bicaye hanze . Basohobora ku bicuruza ibiri hanze basohora ibintu hanze byinshi kugira babibone kubera ko abacuruzi babigize umwuga. Iduka rinini cyane rishobora kuba ririmo ibintu byerekeranye n'ibicuruzwa by'ubwoko bwose harimo amakarito ndetse n'ibindi byinshi.

Abacuruzi bacuruza mitiyu. hari n'umuntu ukora ibintu byo gutanga indirimbo ndetse n'amafirime bazwi kwizina ry'umudije urabonako abantu baza bamwegeyebari kugira ngo kabahe indirimbo ndetse n'amafirie. akorera imbere y'umuryango w'urucuruzi ku mazu ubona ko ari ayo mu mgi asa neza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu umuryango ndetse ikabageretse hakurirwa ibintu bitandukanye bigiye bitandukanye. Ahagaragara nko mu mujyi harimo imodoka zirimo ibiribwa cyangwa ibindi bicuruzwa bitandukanye bicururizwa ahantu.

Iduka ry'ubucuruzi rigaragara nkiri curuza ibikoresho bya eregitoronike harimo: gitari, piyano ndetse n'ibindi bikoresho byose by'umuziki, idurumu ndetse n'ibindi bigaragara ko ari kampani cyangwa iduka ry'ubucuruzi bukomeye bikoracuruza ucuruza ibikoresho by'umuziki.

Inzu babeteramo imyaka, iri kugaragaza urusyo babetesha umusaruro impungure kugirango bakoramo ifu cyangwa ngo amasaka bakuramo ifu yo gutekamo imitsima ndetse n'ibikoma m'uburyo bugiye butandukanye.

Amazu y'ubucuruzi agaragara ko ari ku muhanda akaba ari aho bacururiza ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa bikaba bigaragara ko hari aho banywera. Bare yo kunyweramo cyangwa akabari k'inzoga, hakaba hari abantu bajyayo kuhanywera.

Inzu cyangwa ahantu abashyitsi bacumbika, hagaragazwa n'uko ari inzu z'abashyitsi, nkuko ku cyapa habigaragaza neza ko ari kampani yubatse inzu z'abashyitsi bacumbikamo, aho ushobora kuza ukahaba igihe runaka mugiye gukorera akazi ahangaha.

Umuryango, urugi ruriho icyapa kigaragaza ko ari abacuruzi, bagaragaza ikintu bafite nk'abacuruza kesito, nk'umurimo bakora buri munsi, aho wasanga serivisi bigaragara n'amafoto y'ibyo bakora nk'abacuruzi ba kenkayori.

Iduka ry'ibicuruzwa, imbere haparitse imodoka, bigaragara ko ari nk'umukiriya cyangwa umucuruzi waparitse imbere yaho, ariko bikaba bigaragaza ko ari ahantu bacururiza, cyangwa hari amaduka agiye atandukanye acuruza ibicuruzwa bitandukanye, amajerekani, imyeyo ndetse n'ibindi ndetse n'ibyo kurya.

Inzu y'ubucuruzi igaragara kuba ari igaragaraho icyapa kiriho ibicuruzwa bigiye bitandukanye bacuruza ahangaha harimo kampani icuruza ibintu byo kunywa, gufata neza abantu ndetse n'ibikoresho by'abana bakoresha aba ariko guhita no kugira amasuku bigaragare ko ari ahantu hacururizwa.

Mu mujyi ugaragaza ko harimo abantu batwara abagenzi kuri moto, hariho amabara aho bigaragaza ko hari icyapa cy'aho banywera Mitsingi, ahantu heza, hasa neza hari indabo, ndetse bigaragara ko hasa neza, hakaba hariho n'amaduka acuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Isantire irimo ibyapa bigaragaza ibikorwaho hano, n'ibyo wasanga aho hantu, hagaragara icyapa kiriho ikindi cyangwa koperative ikora ibya hinga weze, icyapa kigaragaza ko ari mu Rwanda n'ikarita y'igihugu, ndetse hari n'inzu z'abakerarugendo nk'uko bigaragara kw'iki cyapa.

Inyubako igaragaza amazu y'ubucuruzi, igaragaza abantu urujya n'uruza bari kugenda aherekeye akabari. Imbere y'umuhanda ndabona ko ari inzu nziza, ari ahantu hateye imbere ho mu mujyi.

Icyapa kigaragaza ibicuruzwa bicuruzwa cyangwa intego z'isoko rya Goyiko, bigaragara ko ari icyapa cyerekana ibibera muri iri soko rya Goyiko, n'ibyo bacuruza, mbese ibintu baba bafite bigiye bitandukanye biboneka muri iri soko rya Goyiko.

Icyapa ndetse n'inzu z'amacumbi aho umuntu ashobora kuza akarara akishyura amafaranga, akaba yaharara mu gihe ari nko ku rugendo cyangwa akaba yahaba by' igihe gitoya mu gihe aramutse abishaka, yahatura mu gihe ari gukora urugendo shuri cyangwa ari mu bindi bintu aha ngaha.

Mu mujyi wa Musanze ahantu hagaragara neza hariho inyubako iriho igaragaza hoteli ihaboneka, hakaba hari urujya n'uruza mu muhanda abantu bari gukora imirimo yo gusudira n'abasunika amagare. Bigaragara ko ari mu mujyi hari ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibintu byinshi nkaho bjgaragaramo ko harimo amabase, imbabura, ibitenge ndetse n'imyenda, harimo ibikoresho byinshi cyane ,amabase ndetse n'indobo ibikapu, byose bikaba bicuruzwa ahantu hari umucuruzi wabigize umwuga ,kandi ufite ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye.

Agasantere cyangwa ahantu bakorera amagare hakaba hariho n'iduka, cyangwa aho bagura imiti kwa veterineri bigaragarako hari aho wasanga ibintu byose byerekeranye no kuvura amatungo ndetse no kuyitaho, ndetse bakatugaragarizako ari ahantu bacuruza amagare wagenda ukabona igare ryo kugura, bashobora kuba banarigukorera mu gihe ryapfuye nk'uko bigaragara.

Isoko ry'inzu, isoko rito rikorerwamo ubucuruzi ,aho wasanga ibikoresho bigiye bitandukanye harimo n'ibiribwa ndetse n'imiti, ukaba wabisanga kuri aka gasoko cyangwa kuri ino nzu y'ubucuruzi.

Santere y'ubucuruzi bigaragara ko hariho ahantu bacuruza ikawa, n'ahantu kuri sitation ya esanse aho imodoka zinwera lesanse hakaba ari ahantu h'ubucuruzi bufatika, buri ku rwego rwiza, ko hagaragara nk'aho ari ahantu hasirimutse cyangwa hateye imbere.

Inzu z'ubucuruzi ziboneka mu isoko, bigaragarako ari isoko ridateye imbere cyane, ahubwo ririmo inzu z'ubucuruzi, harimo abantu baje gucuruza, harimo imodoka yazanye inzoga, ndetse n'abamotari bari gushaka abagenzi ku muhanda. Bigaragara ko ari icumi, abantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye ari ko atari mu mujyi uteye imbere cyane.

Amazu y'ubucuruzi bigaragara ko hariho umuntu ucuruza ibyo kurya cyangwa ucuruza butike ufitemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho yicaye ubu utegereje abakiriya ko baza kugura ibyo ari gucuruza.

Iduka ry'imiti igiye itandukanye ryo gutera ibihingwa, harimo kiyoda, harimo rokete, ndetse n'ibyo gutera ibirayi, ndetse n'ibindi, bigaragara ko ari umwagorodira, cyangwa ko acuruza imiti yo gukoresha mu buhinzi, mu gukurikirana ibihingwa biri mu murima.

Isantere y'ubucuruzi ikorerwamo imirimo yo gucuruza, harimo aho kunywera bara cyangwa aho bacuruza ibikoresho ibicanwa harimo gaze, uri kubona ko harimo n'amamoto, bigaragara nk'ahateye imbere, cyangwa abafite ahari ku rugero rwo hejuru mu iterambere.

Iduka rigaragara nk' iricuruza imyenda yo kwambika abageni itandukanye harimo amakote, amakanzu y' abageni ndetse n' ibindi byose bikora bikoreshwa mu bageni, ariko kujyanye n' imyambaro nkuko bigaragara ko bafite icapa kibigaragaza, kiriho ibyo bacuruza cyangwa ibyo baba bafite byo kwambika abageni bakoze ubukwe.

Imodoka zihagaze imbere y'uruganda, rukaba ari uruganda rukora rutwara imiti, hari imodoka zitwara imiti zigaragaza rugi ko imodoka zirimo imbere mu gipangu, by'ahantu haparitse imodoka, hapaparitse imodoka mbere mu gipangu.

Inzu z'ubucuruzi bigaragara ko ari inzu zigeretse gatatu zikaba zikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye kuko ibyapa bigaragaza haracururizwa inzoga, haracururizwa amabutike, haracururizwa amaduka y'ibikoresho bikoresha amashanyarazi. Mbese akaba ari inzu irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'ubwoko bwose akaba ari etaje nini.

Icyapa cyangwa inzu ikorerwaho ibintu bijyaniranye n'ubuhinzi, aho batanga imbuto cyangwa bagatanga indi miti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'amafumbire, uko bigaragara kuri ibi byapa ndetse n'amagambo abigaragaza ko ibyo bakoramo ari ibijyaniranye n'ubuhinzi ndetse wahabonera ibintu byose bijyaniranye n'ubuhinzi.

Isomero, ahantu bempurima ibitabo cyangwa bapurintinga ibitabo, abantu bafite benshi bagenda bakorwa ibigendanye n'impapuro, bigaragazwa n'uko bafite amadosiye ari nko mu kabati, harimo ibitabo bigiye bitandukanye umuntu abasha kuba ,yafata akaba yabasha ku..

Amazu y'ubucuruzi, ni ko bigaragaza ko hari amazu akora ibintu bitandukanye, aho hanze, harambitse ibitanda bigaragaza ko ari ibitanda byakozwe kugira ngo bibashe kuba byagurwa kugira ngo babashe kubikoresha. Hakaba hari amazu, inzu igeretse, inyuma akaba ariho hagaragara ko hari izindi nzu. Akaba ari ahantu hari gutera imbere cyane, ugereranije n'ubucuruzi.

Iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo: za gazi, ibikoresho by'amashanyarazi, ibibikoresho bisanzwe byo mu rugo, imyenda, cyangwa ibindi bintu n'impapuro, n'amakarito y'ibicuruzwa bitandukanye, kuko bigarargaa ku foto ko ari iduka rinini cyane.

Isoko ricuruzwamo ibijyanye n'imyenda, imyenda y'ubwoko, bugiye butandukanye, amapantaro, amajipo, ndetse n'amashati, n'imisego, ndetse n'amakuvurori , bikaba ari ibntu bigiye bitandukanye bacuruzamo, bigaragara ko ari umuntu ucuruza mu isoko rigari.

Inzu igaragaza ko ahantu bacuruza inzoga, bare irimo akabari, resitora ndetse n'ibyo kurya nk'inyama. Ahantu banywera inzoga babona ibintu byinshi, ibintu byinshi bitandukanye byeyerekeranye n'inzoga n'ibindi byo kunywa.

Igipangu cy'umuntu kigaragaza ko ari umuryango munini winjira mu rugo. Ugaragaza ko ari ahantu ho kunyura. Umuntu ashaka kujya mu rugo, kwinjira mu rugo, ko ari ahantu ho kunyura , kubera ko umuntu wishoboye ,ufite ubushobozi, kubera ko ari umuryango munini wacamo n'imodoka.

Haragaragazwa inzu yagizwe iyo bacuzamo ibikoresho bitandukanye. Aho bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi, iby'amazi ,ndetse n'iby'amashanyarazi. Akaba ari inzu y'ubucuruzi nk'uko bigaragara ku ifoto ko ari ubucuruzi bukorerwa ku iyi nyubako.

Umuryango w'ubucuruzi ugaragaza ko ari ahantu bacuruza, harimo za butike haparitse amagare haragara ko atari mu mugi cyane, ahantu hameze nko mu cyaro hariho abantu bacururiza n'imiryango ebyiri n'abantu bacuruzamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ububiko bw’ibikoresho by’amagare, cyangwa ibikoresho byo bakoresha mu gukora amagare yaba amapine, imisego yo kwicaraho, ndetse n’amagurudumu y’amagare. Biragaragara ko ari uruganda, cyangwa ari ahantu hari ububiko bunini bufite ibikoresho byo gukoresha amagare.

Inzu y'ubucuruzi bigaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye. Ikaba ari inyubako ndende igeretse ya etaje bigaragaza ko ari ibihacururizwa hariho uruganda cyangwa kampani ihakorera, ikora imirimo ijyaniranye n'ubucuruzi ndetse n'amacumbi.

Inzu y'ubucuruzi igaragara ko icuruzwaho ibicuruzwa bitandukanye. Hagaragara ko wasanga ifi, akaba ari resitora wasangamo ibyo kurya bigiye bitandukanye. Hakaba hariho ibintu salade, ibyo kunywa mbese amaji ashobora kuba yanyobwa mu gihe umuntu ari kurya. Hakaba aparitse amamodoka, bigaragara ko haba abakiriya.

Icyapa kigaragaza ko ari mu isoko rya Kkariyeri cyangwa isoko ry'ibiribwa rya Musanze aho hariho ibiribwa bigiye bitandukanye kuko bigaragaza ko bacuruza iby'ubwoko butandukanye nk'uko iki cyapa kibigaragaza. Akabari imbere y'umuryango agaragaza ko ari ahantu bacururiza ubwoko butandukanye bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa muri rusange.

Icyapa kiri ku nzu z'ubucuruzi' bigaragara ko bacuruza bijyaniranye n'inzoga cyangwa ibijyaniranye n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, nkuko bigaragaza ko hariho ubwoko bw'inzoga amatatari, biya ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye wasanga harimo n'ibikoresho, imyambaro ndetse n'ibindi bintu bacuruza bigiye bitandukanye muri iri duka n'amatelefoni ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza kiri guha ikaze abantu binjiye muri pariki, baje muri parike y'ibirunga ahantu bashobora kuba barebera inyamaswa zigiye zitandukanye, aho icyo cyapa kiboneka mu kinigi nkuko iki cyapa kibigaragaza, ko ariho icyapa kiri k'ibirunga kigaragaza ibirunga ko biboneka mubirometero.....

Icyumba kigaragara nk'aho ari icyumba cy'uruganiriro kirimo ibishusho bigaragaza nk'aho dusangamo ingagi, ameza mbese n'utundi duko n'ibindi bikoresho bigaragara nk'aho ari inzu yo kuganiriramo cyangwa yo gusura, umuntu akareba ibyahoze bibaho mu mateka y'u Rwanda uko bigaragaza ingagi nk'ikimenyetso cy'ubukerarugendo mu Rwanda.

Inyubako zigezweho z'ubucuruzi zigaragaza n'imiryango myinshi ko yubatse mu buryo bwa etaji igeretse, ibicuruzwa bigiye butandukanye amabara, amaduka ndetse n'ibindi byose bikorerwa muri iyo nyubako y'ubucuruzi, n'abantu bigaragara ko hateye imbere kuko n'i imodoka zirahari.

Icyumba cyo kuraramo kirimo igitanda n'uburiri bushashe neza, bigaragara ko hariho uburiri bw'abantu babiri kandi ari abantu babiri baharyama nkuko bigaragara. Hariho inkweto za buri umwe, aho kuririra ndetse n' imisego. Igitanda kigaragara ko ari icy'abantu bameze neza, bishoboye bafite amafaranga.

Ahantu h'umujyi mwiza cyane, mu nta igaragazazwa n'inyubako nini zihenze zirimo amabara meza n'ibirahuri, hakaba hateye indabo hasi ndetse n'ibiti by'imikindo bigaragara ko ari ahantu hateye imbere cyane, ho mu mujyi urimo abantu bifashije cyangwa inyubako nziza cyane.

Urugo rwo kubamo, aho abashitsi bashobora gucumbika bakabona ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya neza ahantu ho bakorera amasuku neza . Hakaba ari ahantu mu mujyi hakeye cyane. Bigaragara ko ubwatsi bwaho hari umwuka mwiza kandi ko hari ubwatsi bigaragara ko hariho umwuka mwiza.

Icyapa kigaragaza ahantu ho kuba warara, cyangwa amazu y’abashyitsi, hagaragaza aho igitanda cyiza gishashe neza. Kigaragaza ko ari ukuryama, ukaryama neza. Bisa nko kwamamaza iyi nzu y’abashyitsi, cyangwa inzu yo gucumbikamo abashyitsi, aho bajyamo bagakodesha, bakahatura. Aho bigaragara ko ari i Musanze.

Ingo nziza , mbese ahantu hagaragara ko ari ahantu hateye imbere. Hari ibiti byiza by'imikindo, hakaba hari n'amashanyarazi. Kubona ko ari ahantu hateye imbere cyane : amabati n'ibikoresho by'inzu byubatse inzu akaba ari ibintu bihenze cyane.

Umusaruro w'impungure kuko bigaragara ko hari impungure zisutse zisutse ku ishitingi bigaragaza ko ari ahantu hububiko bw'imyaka itandukanye, kubona harimo ari bisa n'ibishimbo bigaragara ko ari impungure zirikwanikwa kugira ngo zibashe ko zakomera, ndetse n'ibishimbo bikaba biri ku mashitingi mu nzu.

Ahantu ho bacururiza ibyo kurya, byo kurira aho ngaho nk'icyayi ,amata ndetse n'amandazi, hagaragaramo amaji, n'imikati, hariho n'ahantu ho kwicara umuntu ashaka kugira icyo yarya nko ku rugendo ,cyangwa ashonje akaba yabona icyo gufata ,ndetse n'amazi, bizwi ku izina rya kantine icuruza utuntu two kurya tworaheje ndetse n'ibyo kunywa.

Isoko ry'ibiribwa harimo igice cy'imbuto, ahagaragara harimo: amaronji, ibitunguru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo abacuruzi, ndetse n'abaguzi. Habamo ibihaza, bigaragara ko hari ahantu bahacururiza ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane.

Umusaruro w'amashuri uri ku muhanda ku isoko kuko ikibuno kinini cyane cyakuzwe kugira ngo abaje kuza kuyapakira mu modoka, abantu baje ni ku isoko umusaruro baraza kuwugurisha bigaragara ko utangiye kwangirika kubera gutinda ku muhanda ubonanaguye kuba bayapakiye cyangwa bayagurisha

Isoko ridasakaye, isoko rigaragara ko ritari ryatera imbere. ririmo ibicuruzwa bitandukanye aho abacuruzi bacuruzi bashobora kuza gucuruza inkweto ndetse n'ibindi bicuruzwa bagacururiza ahantu hanze, hagaragara ko arahantu hadasakaye ahantu ho mu giturage, akaba ari isoko ritagezweho cyane, ariko ribonekamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ahantu bacururiza imiti cyangwa bacururiza ibintu bijyaniranye, n'ibyo kuvura kuko bigaragara ko ari inzu nini cyane ifite isuku, igaragazwa n'umuntu uri aho hafi aho na we wambaye neza, bigaragara ko acuruza ibintu bisabwa kugira isuku, bigaragara ko umuntu asa neza nk'imiti cyangwa ibindi bintu byi byi......

Isoko bacuruza mo ibikoresha bigiye butandukanye harimo imyuko, udupata, indiga, ndetse naza gakoco n'udusaduku two kubikamo amafaranga, kuburyo bugiye buciriritse kuko bigaragara ko harimo udukoresho dutandukanye, twakoresha cyangwa dukenerwa mu kwica cyangwa guteka imitsima, ndetse ni'bintu byo kwica, n'imirunga, akaba ari ibikoresho wasanga mu cyaro cyangwa ubukenerwa mu cyaro.

Umusaruro w'imyembe bigaragara ko imyemba yahiye cyane iri ku isoko ryo kugurishwa kubera ko yarahiye bihagije. Inshobora kuba ivanze n'izindi mbuto zigiye zitandukanye harimo nka amaronji.

Umuntu uri gukora ubucuruzi buciriritse, akaba ari kotsa ibirayi ndetse n'ibigori kumbabura, akaba arabigurisha bigaragara ko aribuze kubigurisha nyuma yo kubyotsa no kubitunganya, akaba arubucuruzi bukorerwa mu cyaharo, cyahantu hagiye hatandukanye.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibintu biba bitandukanye, harimo ibirungo byo kurya, byo kubrosesha, ubuntuza, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, amasupaguru, cyangwa kore kaba ari akabutike, bigaragara ko ari ahantu, umuntu akora ubucuruzi butoya, wasanga akantu umuntu ashobora gukenera mu rugo.

Isoko ridakomeye cyane ritari rinini cyane, aho abacuruzi bafunga imifungo y'ibyo ibyo kugura nkuko bigaragara ku nyanya n'intoryi bagacuruza n'ibitunguru, hakaba ari ahantu bacuruza mu buryo gakondo atari isoko rikomeye, nk'uko bigaragara ko harimo ibicuruzwa bikeya ndetse n'abacuruzi bakaba ari bakeya, kandi nta n'ibikoresho bifatika byo gucururisha bafite.

Isoko ry'ibiribwa ririmo abaguzi ndetse n'abacuruzi aho bacuruza inyanya, pavuro imiteja ,ibitunguru ,amashu ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bagapima bakoresheje iminzani iteye ku isahani bagaragaza ibiro umukiriya ashaka gutwara mu isoko ry'ibiribwa.

Umuryango w'iduka ryo mu isoko hagakoraho abacuruza butike, ariko bagacururiza mu isoko imbere, isoko ryubatswe, hanze hakaba hari imyenda, aho abacuruzi b'imyenda bacuruza imyenda n'umucuruzi akaba acuruza ibintu byinsh,i afitemo n'imifuka yuzuye ibintu, umuntu ashobora kuza akajyanira rimwe akawunga ndetse n'imyunyu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Isoko ry'imyaka nkuko bigaragara ko harimo ibishyimbo n'indi myaka abacuruzi bashobora kujya gucuruza mu isoko imyaka, ibishyimbo, amajeri, ndetse n'ibindi bishobora gucuruzwa mu isoko biragaragaza ko ari ibishyimbo biri ku mufuka bisa nk'aho bicuruzwa ku buryo gakondo bwo gucuruza imyaka.

Ibicuruzwa biri ku isoko, by'imboga n'imbuto. Kuko hari: pavuro, hakaba na karoti, inyanya, indimu, ndetse na kokombure. Byajyanwe ku isoko, bikaba biri gucuruzwa n'urusenda, uko bigaragara biri mu isoko.